Udushwiriri tugiye dutandukanye tw'utunyoni, turi mu mabara y'umutuku tugera muri dutatu, tukaba dushushanyije ahantu hamwe turi kurebana tubiri, akandi ko hagati karebye imbere.

Agapupe k'imodoka iri mu mabara agiye atandukanye. Aho iyi modoka ifite amapine y'umukara ikaba ifite naho shoferi yicara ariko bigaragara ko ari igipupe.

Ababyeyi ba kera bakundaga gucira abana babo imigani, aho babaciraga umugani w'utubeba dutandatu, ari wo wari uzwi ku izina rya Butwi ku kwezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere hafunguye, hakaba hacururizwamo iduka riba ririmo n'ibikoresho byifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke.

Amoko y'udushushanyo agiye atandukanye natwo turi mu mabara menshi nayo atandukanye, tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, igihe baba bari kwiga amasomo yabo.

Udukoresho tugiye dutandukanye tw'utumodoka, aho tuba ari udupupe, batwifashisha bereka abana akamaro k'imodoka ndetse n'amabara menshi ziba zifite kugira ngo bakanguke.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye biga mu mashuri abanza, haba hari udushushanyo twinshi bakunze kwifashisha igihe baba bari gukurikirana amasomo yabo kugira ngo bayatsinde.

Udushushanyo dukoze mpande enye turi mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku tukaba turi ahantu heza cyane.

Hari ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye, abarimu bifashisha bari kwigisha abana biga amashuri y'inshuke, aho babigishako hariho n'udukeri dutwara imodoka dukoresheje umunwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, ikaba ifite imiryango ifunguye n'imbuga ishashemo amapave.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, hakaba hari udushushanya baba bari kureba, nk'utw'ifi, nk'injangwe, inka, ndetse n'akabwana.

Udushushanyo tugiye dutandukanye aho twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke igihe baba bashaka kumenya amabarage atandukanye, aho bayiga mu ndimi zose ikinyarwandadest n'icyongereza.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshke, bakaba bari kurya umunyenga mu myicundo, iyi rero iba yarashyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo abana bato bajye bamererwa neza mu masomo yabo.

Ibikoresho byiza cyane kandi bigezweho, byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye y'inshuke, aho biri mu mabara atandukanye, bakaba babiriraho umunyenga mu masaha y'akaruhuko.

Amoko agiye atandukanye y'udupupe tw'imodoka, aho utu tuba turi mu mabara atandukanye batwifashisha bigisha abanyeshuri isomo ryiza ryabo ry'imibare.

Abana biga mu mashuri abanza, bakaba bateraniye hamwe aho bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Harimo abarimu babo umwe w'umugabo n'undi mugore bari kubaririmbisha.

Inyubako y'amashuri aho ku gikuta cyayo hashushanyijeho ingorofani iri mu mabara y'ubururu ndetse kandi hakaba hashushanyijeho n'umwiko bifashisha batera sima.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako ishushanyijeho amoko atandukanye y'ibihingwa, aho harimo ibishyimbo ndetse n'imyumbati hakabaho n'inyama.

Mu rwego rwo kugira ngo abana batoya bajijuke kandi barebe kure, ni byiza ko ku bikuta by'amashuri bigiramo hajya hashushanywa utuntu twinshi tugiye dutandukanye tuzatuma bajijuka.

Ibitanda byinshi bigiye bitandukanye bipanze hamwe, bikaba ari ibitanda bijyamwaho n'abana biga mu mashuri y'inshuke, iyo bageze mu masaha y'akaruhuko ya saa sita.

Agashushanyo k'akagofero gakozwe mu gakarito k'ubururu keza cyane, gakunze kwambikwa abana bato biga mumashuri y'inshuke kugira ngo babashe kwishima.

Ii byiza cyane ko muri buri kigo cy'amashuri aho abana biga mu mashuri y'incuke bigira haba hari udupupe tugiye dutandukanye bifashisha bari kwiga amasomo yabo kugira ngo babashe kuyatsinda neza.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuzwi nka gurudu, utu tukaba ari ingirakamaro cyane kubera ko twifashishwa n'abana batoya biga mu mashuri agiye atandukanye, aho batwaramo ibyo kunywa.

Utunyamaswa tugiye dutandukanye abarimu bifashisha bigisha abanyeshuri, aho utwo tunyamaswa tuba twifashishwa mu kubigisha amabara agiye atandukanye, hari udusa icyatsi, umutuku.

Udushushanyo tugiye turutanwa turi mu mabara agiye atandukanye umutuku, umweru, icyatsi kibisi ndetse n'icyatsi kijimye bakaba batwifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Imyicundo cyangwa se iminyenga ikunze kwifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aho bagenda bayiruhukiraho mu masaha y'akaruhuko kugira ngo baze kumererwa neza.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bafite udupupe mu ntoki, munsi handitseho ngo umwana uri gusobanurira bagenzi be inkuru yashushanyije nziza.

Udupupe tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho batwifashisha bari kwiga amasomo yabo, tukaba turi mu mabara agiye atandukanye ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri igihe bari kwiga isomo ryabo, hakaba harimo amakaramu y'ibiti, harimo ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye twiza abanyeshuri bifashisha.

Igikuta cy'ishuri gishushanyijeho umuntu wambaye agakabutura kiwe, aho bagiye bakoresha utwambi berekana ibice bigize umubiri we bigiye bitandukanye byinshi cyane ndetse.

Udukoresho twa mpande enye tuba ari twiza, dukunze kuba turambitse ahantu hamwe, tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke iyo bari kwiga kubara.

Abana batoya harimo umuhungu n'umukobwa, bari kugenda bagana ahantu hari icyapa cyanditseho isomero, cyerekana ko imbere bagana hari isomero bigiramo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako ifite umuryango ufunguye bacururizamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhizni.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Hakaba hari abana bari gukina hanze ndetse hari n'umuhanda uhanyuze.

Itoroshi rishushanyije ahantu ku gikuta ry'isitemu, aho iri toroshi ryifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, kugira ngo bamenye uko baryita mu rurimi rw'Icyongereza.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke, mwarimu akaba yamuzanye imbere ku kibaho kugira ngo atange igitekerezo kiwe, akaba afite indangururamajwi ashaka kuyimuha ngo yumve icyo umwana avuga.

Umwana ukiri mutoya uri mu myaka nk'itatu, afite udukombe turimo amarangi imbere ye, ari kugenda atera ku gikuta yanduza, bigaragara ko ari kwitoza gusiga irange.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ku gikuta hashushanyijeho akanyoni kari kurya, ako kanyoni rero kakaba ari keza cyane kari kurya utuntu twinshi tugiye dutandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye haba hari utudobo twinshi tugiye dutandukanye, utudobo rero tukaba turambitse ahantu ku gikuta ndetse ari twiza cyane.

Inyubako y'amashuri y'inshuke ikunze kuba ishushanyijeho amashusho y'abantu benshi, aho iyi nyubako ari nziza kubera ko itangirwamo ubumenyi ku bana bari batoya b'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku rukuta, ikaba ishushanyijeho igishyimbo ndetse hakaba hariho n'irange ry'umweru.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yubatswe neza cyane, ikaba iteye amarangi agiye atandukanye ku rukuta ndetse kandi hakaba hashushanyijeho n'umwana uri gusimbuka.

Abana batoya b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bari ku murongo hari abarimu babo umwe n'umugore n'undi w'umugabo bari kubatondesha umurongo umwe afashe ibendera ry'u Rwanda.

Abana b'ibishushanyo bari ahantu, aho bashushanyije ku gitabo, hakaba harimo bamwe bafite amahembe, bigaragara ko iki gitabo bakifashisha bigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako ari nziza cyane, kubera ko yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke igihe baba bari kwiga amasomo yabo.

Amashusho agiye atandukanye ari ahantu hamwe, aho hari abana benshi bari gukina ndetse n'akandi kantu kanditseho ngo abana ba twiga bararwaye, n'ahandi harimo ihetse utuntu tw'amabara.

Udupupe twinshi tugiye dutandukanye, aho utwo dupupe ari ingirakamaro cyane kubera ko twifashishwa n'abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, igihe baba bari kwigisha abana amoko agiye atandukanye y'utunyamaswa.

Umusore wambaye agashati ka karokaro, akaba afite icyapa mu ntoki kiriho umuntu uri mu mabara y'umukara n'umuhondo, ari kwereka abana yigisha ngo barebe uko uwo muntu asa neza.

Ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ku gikuta hateyeho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye, kikaba kifashishwa aho baba bari kurangira umuntu wese ugeze aho ngaho.

Igikuta cy'inzu gishushanyijeho ibikoresho bigiye bitandukanye, aho ibi bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri baba barize ibijyanye n'ubuhinzi. Hari ingororofani, umuhoro, igitiyo, umweko n'isuka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako ifite ibishushanyo bishushanyije umutima byerekana uko amaraso aba ari gutembera mu mubiri.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, ikaba ishushanyijeho inyamaswa y'inzovu iri ku kuvura amazi mu mugobora wayo.

Agakapu keza cyane kari mu mabara y'umutuku aho gashushanyijeho ikinyugunyugu kiri mu mabara y'umutuku abana bakaba bakunda kugatwaramo amakaye yabo bagiye ku ishuri.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke aho bayigiramo.

Umwana wiga mu mashuri y'incuke akaba ari kwandika ku kibaho, akaba ari kwandika inyajwi bamwigishije n'ingombajwi, akaba ari kubyandikamo neza rwose.

Ibishushanyo by'abantu babiri b'abasirikari bari kurasana aho barebanye batunganye imbunda bigaragara ko bagiye kurasana, abana bakaba babikunda kubireba.

Mu rwego rwo kwigisha abana bakiri batoya biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bajijuke, ni byiza ko bakoresha udupupe tugiye dutandukanye kugira ngo bajye biga babikunze.

Imbuto zigiye zitandukanye aho ziri mu mabara menshi nayo agiye atandukanye. Izi mbuto zikaba ari ingenzi kuko ari zimwe mu bigize indyo yuzuye abantu bafungura.

Udushushanyo tw'abantu tugiye dutandukanye, aho utwo dushushanyo turi mu mabara agiye atandukanye. Aya mabara bakaba bayifashisha bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe kujijuka.

Udupupe twinshi tugiye dutandukanye ndetse n'udushushanyo turi mu mabara agiye atandukanye, tukaba ari ingenzi cyane kuko tuba dufite amabara meza cyane ashimishije.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke baba bafite udukinisho twinshi tugiye dutandukanye bifashisha bari kuryaho umunyenga mu masaha y'akaruhuko, tuba ari twiza cyane.

Abana biga mu mashuri y'inshuke benshi bagiye batandukanye, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umuhondo, bambaye n'utugofero dukozwe mu bipapuro tw'umweru, ariko twiza tubabereye.

Udupupe twinshi tugiye dutandukanye, tuba twarakozwe n'abana b'abanyeshuri bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, tugakunda kwifashishwa, bari kwigisha abana batoya amabara.

Amakaye menshi cyane agiye atandukanye, aho aya makaye ari meza cyane. Akaba yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, iyo bari kwiga amasomo yabo.

Agakapu keza kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho baba bari kwiga amasomo agiye atandukanye, bagatwaramo amakaye yabo kugira ngo atabasha kuba yakwangika.

Hariho amoko agiye atandukanye y'utunyamaswa, aho utwo tunyamaswa batwifashisha bigisha abana bato, mu izo nyamaswa harimo intare umwami w'ishyamba, inka ndetse n'umuntu uyobora iryo shyamba.

Igikuta cy'inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho hashushanyijeho ikibabi ku gikuta, bakaba bakifashisha bigisha abanyeshuri isomo ry'ibinyabuzima.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, aho turi mu mabara menshi nayo agiye atandukanye. Tukaba twarakozwe n'abana biga mu mashuri yisumbuye kugira ngo tujye twifashishwa bigisha abana bato.

Utuhiyamaswa tugiye dutandukanye, bakwifashisha bari kwigisha abana bato biga mu mashuri y'inshuke. Aha baratwereka inyamaswa y'ingwe iri kugendera ku kagare, ikaba ari nziza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ku gikuta hashushanyijeho umuntu w'umunyeshuri wambaye karuvati y'ubururu, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane, aho iyo nyubako ifite ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari nziza cyane kubera ko abantu bose bifuza kuzifotorezamo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako ifite ibikuta bishushanyijeho ibihyimbo ndetse ibyo bishyimbo bikaba ari ingirakamaro cyane kubera ko babyifashisha bigisha abana.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, baba bakunda kurya umunyenga ku gikoresho cy'umwicundo cyabugenewe, aho bakizaho bakacyotaho umunyenga kugira ngo banezerwe.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, benshi bagiye batandukanye. Bambaye impugakano z'ishuri, aho bicaye ku mukeka. Bari kumwe na mwarimu wabo nubwo atagaragara neza.

Abana biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza baba bazi gukoresha ikoranabuhanga, aho bagenda bakina udukino twinshi tugiye dutandukanye tubajijura.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke bicaye hasi ku mukeka, buri wese afite igikombe cy'amata ari kunywa, aho mwarimu wabo yakinguye amadirishya kugira ngo haze akayaga.

Utuntu tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi nayo agiye atandukanye, tukaba turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi n'umutuku. Tukaba ari twiza cyane kandi dushimishije.

Inyubako nziza cyane irimo ibishushanyo byinshi bigiye bitandukanye ndetse hakaba harimo n'intebe n'ameza by'amabara agiye atandukanye, bikaba byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Ibitabo byinshi bigiye bitandukanye by'Icyongereza biri mu kabati, aho ako kabati kari mu isomero, aho abanyeshuri bajya gutira ibitabo bagasoma kugira ngo biyungure ubumenyi.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye aho kuri izi saha nta gihingwa na kimwe kirimo kubera ko uyu murima ukiri intabire utari wera na busa uracyari mushya.

Agakapu gashushanyijeho ipusi, kakaba ari agakapu keza cyane, kifashishwa n'abarimu bari kwigisha abanyeshuri uko bagomba gutwara amakayi yabo mu dukapu twiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ku bikuta hashushanyijeho ifi, ifi rero ni imwe mu nyamaswa ziba mu mazi kandi ziribwa cyane ku bwinshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke baba ari abahanga cyane, kubera ko bakunze guhurira hamwe bakiga ku bintu bigiye bitandukanye kugira ngo amasomo yabo agende neza.

Akabwana kari kugenda kiruka aho imbere yako hari udukoko tugera muri dutatu turi mu mabara y'umuhondo tugiye dusumbana, tukaba ari twiza ndetse tubereye ijisho kutureba.

Mu mashuri y'inshuke haba harimo utunyamaswa twinshi tugiye dutandukanye, abarimu bifashisha bari kwigisha abanyeshuri kugira ngo bujijuke, harimo agasumbashyamba, intare, ingwe, inzovu, imparage n'ingona.

Kandagira ukarabe nziza cyane yateye ahantu mu busitani, ikaba iriho igicupa cy’amazi cya jibu. Iki gicupa rero ni kiza cyane kuko kiba kibikwamo amazi meza afite isuku.

Ikibuga cyiza cyane gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka Volley Ball, aho uba ari umukino ushimishije, abantu baba bazi gusimbuka nibo bawukina.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye aho utwo dushushanyo turi mu mabara agiye atandukanye, tukaba twifashishwa n'abanyeshuri igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'Imibare.

Inyubako nziza cyane aho ku marembo hariho icyapa kerekana ko ari igorero rya Nyagatare aho abantu bakoze ibyaha baza kugororerwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari inyubako y'ishuri, aho higiramo abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bari gukurikirana amasomo yabo.

Udukoresho tugiye dutandukanye tuzwi nkaho tubikwamo ibikoresho abana bifashisha bari kwiga isomo ry'Imibare, aho haba harimo amarati n'amakaramu y'ibiti n'uducaruziga.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bari mu ishuri bakaba bamanitse ibiganza umwe ari gusubiza mwarimu wabo ari bitegereza uko basubiza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye cyane cyane abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri abanza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyo nyubako yigirwamo n'abana biga mu mashuri yisumbuye, bagakurikirana amasomo yabo ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiza.

Inyubako y'amashuri ikunze kuba ikorerwamo n'abana biga mu mashuri y'inshuke bayigiramo, kubera udushushanyo twiza tuba turimo tw'amabara agiye atandukanye kandi meza.

Akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, kakaba kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye kugira ngo batsinde neza basomye ibi bitabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye yisumbuye, ikindi iyi nyubako ikaba yubatswe mu buryo bw'amagorofa.

Isomo ryigwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza rya siyansi, aho bigamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe kujijuka.

Inyubako nziza cyane zo mu kigo cy'amashuri, aho harimo ubusitani bwiza cyane buteyemo igiti kirekire cy'inganzamarumbo gitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu bose bari hafi aho ngaho.

U dukoresho tugiye dutandukanye, aho muri utwo dukoresho harimo tumwe abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bari kwiga isomo ryabo ry'imibare kugira ngo baritsinde, tukaba turambitse ahantu turi mu mabara y'umutuku.

Amoko agiye atandukanye y'inyamaswa zitanga inyama kandi zidaheze, muri izo nyamaswa twavugamo nk'inkoko y'isake, ifi y'ishonzi, urukwavu ndetse n'akanyamasyo.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, hakaba harimo udutako turi mu mabara menshi abana babona bakishima hanyuma bakanezerwa.

Udukoresho tugiye dutandukanye twiganjemo ingombajwi n'inyajwi tukaba twifashishwa n'abana batoya igihe baba bari kwiga amasomo yabo bayasubiramo neza uko bikwiriye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho irimo udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga.

Udushusho twinshi tugiye dutandukanye tukaba turi ahantu ku gikuta, tukaba ari twiza cyane ndetse twifashishwa bigisha abana bo mu mashuri y'inshuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo utubara tugiye gutandukanye twiza ndetse tureba amabara agiye atandukanye meza cyane.

Udukoresho tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi nayo agiye atandukanye, bakaba badufashisha bari kubara imibare igiye itandukanye ku bana biga mu mashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bakunze kwifashisha bigisha abana batoye, babigisha amasomo agiye atandukanye, aho bakunze gukoresha ibishushanyo by'umuntu ufite umunwa nk'uw'igisiga cyangwa inkoko.

Abanyeshuri bicaye bari gukora ibizami aho buri wese agiye yipfute igikarito cyangwa igikapu mu maso kugira ngo hatagira umuntu ubareba akaba yabatahura bakamenya abo ari bo.

Ameza ateretseho ibitabo byinshi bigiye bitandukanye aho ibitabo ari ingirakamaro cyane bikaba birambitse ku meza hari n'udukombe twiza cyane turimo amakaramu y'ibiti.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri cya Karangazi, aho uyu murenge wa Karanganzi ari wo murenge munini mu gihugu cy'u Rwanda, ukaba uherereye mu Karere ka Nyagatare.

Inkuru y'isandi n'intashya n'imwe mu nkuru bakunze kwifashisha muri gusomera abana batoya biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke kugira ngo bakurikirane amasomo yabo.

Umwana ukiri mutoya uri ahantu ku mashusho menshi agiye atandukanye, hamwe afite imbuto z'ibiribwa mu ntoki, ahandi afite akagozi mu ntoki k'agatambaro, ahandi agiye kukizirika.

Udukoresho twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi nayo agiye atandukanye, aho utu dukoresho twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bari kwiga amabara agiye atandukanye.

Icyapa cyerekana ko urwunge rw'amashuri rwa Nyabatare, ahiga abana b'amashuri n'inshuke, hazaba umuhango wo kwambara amakanzu kubera ko bazaba barangije ayo mashuri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye aho ibi bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, by'umwihariko igihe baba bari gusubiramo amasomo yabo kugira ngo bayatsinde.

Udukoresho tugiye dutandukanye aho harimo imibare ndetse n'inyuguti, tukaba ari twiza cyane kandi twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, igihe baba bari kwiga amasomo yabo.

Imibare iri mu mabara y'ubururu, aho iyo mibare bayifashisha bigisha abana batoya babigisha kubara kuva kuri rimwe kugera kuri karindwi, hari n'ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko atandukanye y'ibiti.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi, aho hari n'akana gatoya k'agahungu kari kuririmba kari muri ubwo busitani bwiza.

Inkuru ya Cibiri n'Umurongo, aho haba hari umwana muto w'umukobwa, Cibiri iri kumuhereza adapfunyika karimo amafaranga, akabanza kwitegereza Cibiri ngo arebe ko itari kumushuka.

Udushusho twinshi tugiye dutandukanye twifashishwa n'abarimu iyo bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza b'abigisha isomo ry'Imibare kugira ngo babashe gutanga ingero.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'ubururu, imbere yayo mu busitani hateyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo kandi nziza cyane kuburyo umuntu yahifotoreza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri cyane cyane abiga mu mashuri agiye atandukanye abanza, aho babyifashisha bari kwiga isomo ryabo ry'imibare kugira ngo barebe ko baritsinda iryo somo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'icyatsi n'umweru ku bikuta, ikaba ari nziza cyane kandi yubatswe mu buryo bw'amagorofa.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakaba baramenye gusoma bakiri bato, iyo habayeho inama y'ababyeyi bahamagara umwe hanyuma agafata igitabo akagenda abasomera.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, aho munsi yayo ahagazemo abagabo babiri ndetse n'abandi bagore babiri, hakaba harimo n'undi mugabo umwe w'umusirikare ariko bose bambaye udupfukamunwa.

Agakoresho abanyeshuri bifashisha bari guca uruziga, kaba ari keza cyane ku buryo iyo umwana agafite abasha gukurikirana amasomo ye neza cyane agaca n'uruziga.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako bayifashisha bayigiramo ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bari kwiga amasomo yabo.

Hari igitabo bajya bifashisha bigisha abana batoya babereka ubwenge bwa Bakame, aho babigisha umugani wa Bakame yigira umwami w'ishyamba igashaka gutegeka inzovu.

Buri kigo cy'amashuri gikunze kuba gifite iminyenga myiza abana batoya bagenda bakicaraho mu rwego rwo kwishimisha ndetse no kuruhuka mu mutwe mu masaha y'akaruhuko.

Udushushanyo ndetse n'udukoresho twinshi dutandukanye, abarimu bifashisha bigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bajijuke mu myigire yabo ndetse no mu mutwe.

Ni byiza cyane ko buri kigo cy'amashuri gifite amashuri y'inshuke kigomba kuba gifite udushusho twinshi turi mu mabara agiye atandukanye, abana bifashisha bari kwiga kugira ngo batsinde.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, tuba turimo amarati agera muri atatu, harimo ikaramu y'igiti n'agacaruziga ndetse n'ibindi.

Abantu b'abahinzi bahuriye hamwe aho buri wese iruhande rwe ahafite isuka, hakaba hari n'umuntu uri kubakoresha inama bigaragara ko ari umujyanama mu by'ubuhinzi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako yigirwarwamo n'abana batoya biga mu mashuri y'inshuke, aho baba bambaye impuzankano z'ishuri.

Igitabo k'Ikinyarwanda kiriho inyuguti z'Ikinyarwanda, ariko uwagikoze ni umuswa nta kinyarwanda azi kuko ari inyuguti zimwe yagiye azanamo zidakoreshwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda.

Ni inyuguti nyinshi z'Ikinyarwanda abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo neza ndetse bamenye n'ururimi rwabo rw'Ikinyarwanda, bajye barutsinda.

Umwarimu wigisha mu mashuri abanza, akaba ari kwigisha abanyeshuri isomo ryiwe aho ari kugenda amwereka uko bandika inyajwi zigiye zitandukanye ku kibaho.

Umwana muto wiga mu mashuri y'inshuke, aho ari gusoma ku kibaho yifashishije urutoki ndetse n'agakoni fashe akaba yatunze igiti ku nyama.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ikaba ifite inzugi z'ubururu yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ni byiza ko biga hifashishijwe ibi bikoresho byabugenewe kugira ngo batsinde amasomo yabo, kubera ko biba biri mu mabara meza abashimisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako irimo udukinisho twinshi tugiye dutandukanye abana bifashisha bari kurya umunyenga mu masaha y'akaruhuko

Abantu bicaye harimo umwana ndetse n'ababyeyi be, hakaba hari n'inyubako nziza cyane y'ishuri, aho bose bari kwishimira umunsi mukuru w'umuntu wambaye wasoje amashuri.

Agakapu keza cyane k'umutuku gashushanyijeho agapusi kari guseka, kakaba ari agakapu keza cyane, kifashishwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, aho baba batwaramo ibikoresho byabo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abana bakiri batoya, cyane cyane abana biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bagenda bakurikiraniramo amasomo yabo.

Agakoresho kifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza igihe baba bari kwiga isomo ryabo ry'Imibare. Kakaba kari mu mabara y'umutuku ndetse kanditseho amagambo y'umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, ikaba ari inyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse iteye amarangi y'ubururu ku nzugi.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri ikiri nshyashya, aho baje kuyitaha, hakaba hari abarimu ndetse n'abayobozi bo kuri icyo kigo n'umupolisi, hari n'undi mugabo wambaye igikanzu uri gukata umugozi uri kuri iyo nyubako.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, baba bafite impuzankano bambara, ariko kandi baba ari n'abahanga bazi gushushanya neza, aho bashushanya udushushanyo dufite amabara meza agiye atandukanye.

Inanasi y'ikibumbano, ikaba iri mu mabara y'icyatsi ndetse ifite umutwe usa ubururu ikaba yarakozwe n'abanyeshuri bize ibijyanye n'ubumenyingiro benshi.

Amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byo mu rugo bikunze kwifashishwa mu mwuga w'ubwubatsi, harimo inyundo ya kinubi, hakazamo ibase, hakazamo agatebo ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bicaye ku ntebe harimo umwe wagira ngo ni agasazi we wahagurutse ahagaze ku ntebe aho bicara, yamanitse amaboko ameze nk'uri kuyobora.

Udukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, kugira ngo bamenye amabara agiye atandukanye ndetse bamenye n'amazina y'ibyo bikoresho uko byitwa.

Ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara menshi na yo agiye atandukanye. Aho ibi byaba ari ingirakamaro cyane kubera ko babyifashisha bigisha abana batoya, biga mu mashuri abanza bari kubigisha imibare.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abiga mu mashuri rya za Kaminuza, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Inkuru zisomerwa abanyeshuri biga mu mashuri abanza by'umwihariko abiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bakunda kubasomera inkuru y'inkoko yigisha utwana twayo.

Inyubakoko nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abiga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambara imuzankano zigiye zitandukanye kandi nziza.

Udukoresho tugiye dutandukanye tukaba turi mu mabara menshi na yo agiye atandukanye, aho tumwe turi mu mabara y'umutuku, utundi tukaba mu mabara y'icyatsi kandi ari twiza cyane tubereye ijisho.

Ibikoresho bitandukanye byo mu rugo twifashisha, harimo isuka bifashisha bari guhinga, icyuma bifashisha bari gukata, ndetse n'igikombe bifashisha bari kunywa.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara akaba yagiye gusura abana biga mu mashuri y'inshuke, akaba ari gukina na bo agapira, aho ari kugenda banagira na bo bagasama.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu bubaji, aho ibyo bikoresho ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese ubyifashishije abaza ibikoresho byiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite urugi ruri kuri porotayi rusa ubururu, imbere hakaba harimo inyubako z'ikigo cy'amashuri.

Udukapu twiza cyane tugiye dutandukanye turi mu mabara y'ubururu, aho utwo dukapu twifashishwa n'abanyeshuri batwaramo amakaye yabo igihe baba bagiye ku ishuri.

Inyuguti nyinshi zigiye zitandukanye aho izi nyuguti ari nziza cyane, zikaba ziri kumwe n'imibare byose bifashisha bigisha abana biga mu mashuri agiye atandukanye y'inshuke.

Inyubako nziza cyane nini kandi ngari aho inyubako yigamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye bakayikoresha bari gukurikirana amasomo yabo kugira ngo babashe kuyatsinda.

Udukoresho tugiye dutandukanye kandi twiza, aho utwo dukoresho ari ingirakamaro, cyane tukaba turi mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku kandi kamwe karahagaze akandi kararyamye.

Abantu b'abana bakiri batoya, aho bari kugenda bakomanga mu ishuri bashaka kwinjira. Bakaba bambaye impuzankano z'ishuri ku mukuru, umutoya we ntabwo azambaye.

Indangagihe yerekana igihe akazi gatangirira ndetse n'igihe karangirira, bikaba ari ibyo ku rwunge rw'amashuri rwa Nyagatare, akaba ariyo mategeko bagenderaho.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri aho yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, abiga mu mashuri abanza ndetse n'abiga mu mashuri yisumbuye, kikaba ari kinini.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye, aho utwo dushushanyo turambitse ahantu, tukaba turi mu mabara agiye atandukanye ,abanyeshuri batwifashisha bari kwiga amasomo yabo agiye atandukanye.

Utunyamaswa tuzwi nk'utunyugunyugu tuba ari twiza cyane kandi dukunda kwibera ahantu mu ishyamba hari uturabyo twiza, tukajya duhova kuri utwo turabyo ari twiza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza yubakishije amatafari ahiye ndetse hari na kandagira ukararabe iteretse mu muryango.

Imibumbe y'Isi ibiri igiye itandukanye, aho iyi mibumbe ari myiza cyane, bigaragara ko ari uburyo bwiza bwo kwigisha abanyeshuri uko Isi ihagaze.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho hari kunyuramo abanyeshuri bagiye batandukanye bari gusuzanya, bahetse udukapu ndetse harimo ubusitani bashushanyijeho ibendera ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abana batoya by'umwihariko abiga mu mashuri abanza, bakaba bayigiramo kugira batsinde.

Udupupe tugiye dutandukanye aho utwo dupupe ari ingenzi cyane, hakaba hariho n'imibare kuva kuri rimwe kugera ku icumi ndetse n'inyajwi, bakabyifashisha bigisha abana biga amashuri y'inshuke kubara.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isakaje amabati asa ubururu. Ikaba ifite ibikuta bigiye bitandukanye, na byo biri gusa mu mabara y'umweru. Hari n'ubusitani bwiza.

Amarati menshi agiye atandukanye yifashishwa n'abanyeshuri igihe baba bari kwiga amasomo yabo, akaba ari mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Akabati karimo nyajwi nyinshi zigiye zitandukanye, aho izi inyajwi ari nziza cyane, zikaba ziri mu mabara agiye atandukanye, higanjemo umutuku ndetse n'amabara y'ubururu.

Abana benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo abahungu n'abakobwa, bakaba bari ahantu mu cyumba. Aho bari gutegura icyumba cyo kuraramo kugira ngo kijye kiba kimeze neza cyane.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu mabara menshi byifashishwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga isomo ryabo ry'Imibare aho bagenda babibara kugira ngo bajijuke mu mutwe.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho iyi nyubako yigirwamo n'abantu bagiye batandukanye, ikaba isakaje amabati y'umutuku ndetse kandi ikaba ifite ubusitani buteyemo mu imikindo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba yigirwamo n'abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, aho haba harimo n'ibikoresho byose bifashisha bari kwiga.

Ni ku kigo cy'amashuri yisumbuye ndetse n'amashuri y'inshuke, aho hari imyifundo myiza cyane, abana bakunda kujya kuba bariho mu gihe cy'akaruhuko. Ikaba iri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Ibitabo birambitse ahantu hamwe biri mu mabara agiye atandukanye, hakaba hari ndetse n'udukoresho tw'amakaramu y'igiti abanyeshuri bifashisha bari kwiga amasomo yabo kugira ngo bayatsinde.

Inyubako nziza cyane z'ikigo cy'amashuri, aho muri izo nyubako hateraniyemo abana b'abanyeshuri bagiye batandukanye bahiga, bakaba bashyize ibikapu byabo hanze binjiye mu ishuri.

Abana biga mu mashuri y'inshuke ni byiza ko hifashishwa udukoresho tugiye dutandukanye dufite amabara menshi, kubera ko abana biga mu mashuri y'inshuke bakunda utuntu tuba dufite amabara meza atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi agiy atandukanye y'umuhondo ndetse n'amarangi asa icyatsi, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke hari udushushanya twiza bakunze gukoresha gutuma babasha gutsinda amasomo yabo neza uko bikwiriye hanyuma bakabona amanota.

Ibitabo by'Ikinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa gatandatu, abanyeshuri bose biga mu mashuri abanza, baba bagomba kubisoma kugira bamenye udukuru twiza tuba turi muri ibyo bitabo.

Udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye turi mu mabara menshi na yo agiye atandukanye, aho udushushanyo ari twiza kubera ko batwifashisha bigisha abana batoya gusoma.

Ibikoresho by'abarimu bifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri abanza, bagira ngo babigishe agiye atandukanye y'abanyeshuri bagomba kumenya kugira ngo batsinde neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho hari uturongo twiza ndetse n'amabara meza atandukanye.

Agakapu keza cyane kanini kari kumwe n'utundi tubiri aho utwo dukapu ari ingirakamaro cyane kubera ko umuntu wese utwigiyemo tubasha kumuteza imbere cyane.

Udushushanyo tugiye dutandukanye turimo amabara y'umweruru, tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho baba bari kwiga ibiziga byinshi cyane.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako igirwarwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, hakaba hari n'akayira banyuraho bari kuyijyaho.

Mu mashuri y'incuke haba harimo udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye dufite amabara nayo agiye atandukanye, bakaba batwifashisha bari kwigisha aba bana kugira ngo bajijuke mu mutwe.

Akabati keza cyane kaba karimo ibitabo abanyeshuri bigiramo, uko bigaragara ni ku isomero kandi abanyeshuri bakunze kutwifashisha bakurikirana amasomo yabo.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bakaba bicaye bafite intebe nziza cyane ndetse bari gukurikira ku kibaho umwarimu uri kubigisha.

Amarate menshi agiye atandukanye, aho aya marate ari mu mabara y'umweru, akaba yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'igihe baba bari kwiga guca imirongo.

Abantu benshi cyane bicaye higanjemo abagabo ndetse n'abana babo, bakaba bari mu turimo tw'amaboko tugiye dutandukanye aho ise ari ukubereka uko utwo turimo dukorwa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umuhondo, aho ibi bikoresho ari ingirakamaro cyane, hakaba harimo ndetse n'agapapuro k'umuhondo kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Udukoresho tugiye dutandukanye abanyeshuri biga mu mashuri abanza batwaramo ibyo bikoresho birimo amarati, uducaruziga, n'amakaramu y'ibiti, bifashisha biga isomo ry'imibare.

Iyo abanyeshuri bamaze gukora ikizamini cya Leta, basigara bategereje amanota yabo. Aho bayategereza imitima iri barya ariko bakihangana kugira ngo barebe ko umunsi wazagera agatangazwa.

Ameza arambitseho ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho muri ibyo bikoresho byiganjemo amabara menshi. Bifashisha bigisha amashuri y'inshuke, muri ayo mabara twavugamo nk'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Umwana w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza. Akaba yipfutse udutereyi tw'amagi mu maso kugira ngo batamubona. Akaba ari kwandika akoresheje intoki yandika mu ikayi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bafite amashuri meza yubatswe mu buryo bw'amagorofa, amenshi muri yo akunze kuba afite inzugi z'ubururu kuko aba ari ibikorwa bya Leta.

Umwarimu wambaye imyambaro y'umweru n'umukara yatebeje, ari ku kibaho ari kwigisha abanyeshuri Imibare, ukuboko kumwe kw'iburyo yamushyize ku meza ukw'ibumoso yagushyize ku kibaho akora ku byo yanditse.

Imibare igiye itandukanye ndetse n'ibishushanyo bitandukanye bigiye biri ahantu hamwe bishushanyije ku rupapuro harimo inanasi, umuneke, imodoka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abarimu babiri bigisha mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza bambaye udupfukamunwa, aho bari kugenda bahereza abana biga mu mashuri abanza ibihembo, bigaragara ko aba bana bitwaye neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'umweru ndetse na kaki, bahagaze bari kwifotoza aho bari kumwe n'abarimu babo, bigaragara ko bose bishimye.

Umunyeshuri wambaye agapira k'umuhondo akaba yiga mu mashuri yisumbuye, akaba ari ahantu hari ameza atwikijeho igitambaro cy'icyatsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bateraniye hamwe, aho bari kumwe n'umwarimu wabo, uri imbere yabo uri kugenda abatoza uko bagomba kwitwara kugira ngo bagire ikinyabupfura.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo bitwaye neza bakunda guhabwa ibihembo n'abarimu babo, bakabashimira kugira ngo abo bana bakomeze baharanire ubutwari.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho ifite ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, ndetse hakaba hamanitsemo n'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umugore wambaye ishati y'umweru, akaba ahagaze ahantu, inyuma ye hari undi wambaye agapira gasa n'icunga umuteze amatwi, aho uwo mugore ari gutanga imbwirwaruhame.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bagiye mu kiruhuko, none bakaba bahetse udukapu twabo, bari kugenda bateyewe n'utundi mu ntoki bigaragara ko batashye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho hari umwe w'umuhungu wambaye agapira gasa icyatsi ndetse n'ipantaro ya kaki, akaba ari umuhungu.

Inyubako nziza cyane y'ikigo cy'amashuri, aho yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ikaba ari nziza cyane kandi iteye amarangi agiye atandukanye.

Abantu bagiye batandukanye harimo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bazamuye amaboko bishimye cyane, bigaragara ko uwo munsi bariho ubashimishije ndetse n'igikorwa barimo muri rusange.

Abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kumwe n'umwana wiga mu mashuri yisumbuye, wambaye agapira k'icyatsi, aho bari kumuhereza impano, umwana na we azakira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi, bicaye barebye imbere, bakurikiye umuntu uri kubagezaho ikiganiro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bakaba bari kwifotoza, bambaye impuzankano ndetse na karuvati, bari kumwe n'abarimu babo babiri uw'umugore ndetse n'undi w'umugabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho aba banyeshuri bari mu ishuri bicaye higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu, aho imbere yabo hahagaze umwarimu.

Umwarimu mwiza cyane w'umugore uri kugenda ahantu heza, akaba yambaye ikanzu nziza cyane ndetse akaba afite n'agapira inyuma ye yambaye inyuma y'ikanzu.

Inyubako y'ishuri nderabarezi riherereye mu ntara y'iburasirazuba, ikaba ifite umuryango ufite urugi rwubakishije ibyuma, rwanditseho mu magambo y'ubururu TTC Matimba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako y'amashuri ikaba ifite ikigega gitangira amazi aba yayivuyemo kugira ngo atangiza ibidukikije.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye bambaye impuzankano z'udupira tw'icyatsi, bahagaze bafunze umuronko inyuma, imbere yabo hicaye abayobozi babo ndetse n'abashinzwe umutekano bakaba bicaye mu busitani bwiza.

Ahantu mu kigo cy'amashuri aho hari umwana uri kwigishwa n'abarimu kuko akadege katagira abapiloti kagendera mu kirere gatwaye amaraso kagenda, kakaba karambitse aho ngaho bagiye kugashyiramo amaraso kaguruke.

Abantu benshi cyane bari kugenda mu kigo cy'amashuri biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bambaye utujiri aho bari kugenda batembera basura iki kigo cy'amashuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bicanye ahantu ku dutebe twa karambarazi aho bicaye munsi y'igiti gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho zikaba zubatswe ahantu mu rusisiro, zikaba ari inyubako z'amashuri abanza aho abanyeshuri bigira amasomo yabo ya buri munsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye higanjemo abakobwa n'abahungu, bakaba bambaye imyambaro myiza cyane y'ishuri, aho bamwe bambaye udupfukamunwa bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo.

Abana biga mu mashuri yisumbuye baba ari abahanga cyane, aho babasha gukurikirana amasomo yabo nk'uko mwarimu ari kubigisha kugira ngo bazabashe kuyatsinda neza.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bambaye udupira tw'ubururu bateraniye hamwe bari mu nama, imbere yabo hari umugabo w'umuyobozi uri kubakoresha iyo nama bamuteze yombi.

Abanyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho aba banyeshuri bateraniye hamwe, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye agapira k'ubururu, bigaragara ko ari umurezi wabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kwiga imbere yabo hahagaze mugenzi wabo ari kubasobanurira.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, benshi bagiye batandukanye, bambaye impuzankano y'ishuri, aho bambaye amashati y'umweru ndetse n'udupira tw'imihondo.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri abanza, hari n'abiga mu mashuri y'inshuke n'abiga mu yisumbuye, bicaye hamwe muri sitade, aho bose bari kureba imbere, bakurikiranye umuntu bagezaho ikiganiro.

Abana biga mu mashuri yisumbuye, iyo bize neza amasomo yabo bakayakurikirana ndetse bagatsinda, abarimu babo babaha ibihembo, uyu mukobwa rero bari kumuhemba kubera ubutwari yagize.

Inyubako nziza cyane yateraniyemo abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, higanjemo abiga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kwiga isomo rya mudasobwa, aho imbere yabo hari umwarimu uri kugenda abigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bicaye ahantu hamwe aho bari mu nama, imbere yabo hari umugore uri kuyibakoresha akaba ari umuyobozi wabo.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari mu gikorwa cyo kwibuka, aho babiri bari imbere bafite bandelore yanditseho Kwibuka.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, haba hari imyicundo myiza baryaho iminyega mu masaha y'akaruhuko kugira ngo imyigire yabo igende neza, biba byiza cyane iyo abarimu bababaye hafi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gore b'abanyeshuri, bakaba bari kwifotoza bambaye impuzankano z'ishuri bishimye ndetse bari no guseka.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe aho hari umwe mugenzi wabo ubahagaze imbere ufite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga na bo bamuteze yombi ngo bumve igitekerezo ke.

Abana biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bateraniye hamwe bambaye impuzankano z'ishuri ariko ntabwo bari kwiga kuko bose barahagaze nta mwarimu urimo.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'ubururu ku mabati no ku mireko, imbere yayo hahagaze abakoranabushake bambaye utujiri twabugenewe.

Abantu b'abakorerabushake bambaye utujire twabugenewe, bakaba bagiye mu kigo cy'amashuri bari gutemberamo kugira ngo barebe ko abana bakaza, ubwirinzi birinda icyorezo cya covid cumi n'ikenda.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bahuriye hamwe, aho bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, bicaye mu busitani bwiza cyane kandi bukozwe neza, imbere yabo hari kunyura umugore w'umwarimu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahuriye hamwe aho imbere yabo hari umuyobozi w'umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki afite n'igitabo akaba ari kugenda abigisha uko bakurikirana neza amasomo yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye ahantu hamwe aho bagiye bakikije akayira gashashemo amapave, bamwe bicaye imbere yako, abandi bicaye inyuma yako.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye biganjemo abakobwa bambaye amakanzu y'amajipo ndetse n'udukweto n'amashati y'umweru.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye babiri b'abahungu, bakaba bari kuganira, umwe yifashe mu mifuka, undi yambaye amadarubindi, afite ibitabo mu ntoki ze.

Inyubako nziza cyane z'ikigo cy'amashuri zigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, aho hateyemo ibiti birebire bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi aho hantu heza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bafashe indabo mu ntoki aho bigaragara ko ari iz'umuntu witabye Imana.

Abantu benshi bagiye batandukanye biganjemo abambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi. Hakaba harimo ndetse n'amatente meza cyane atatse mu buryo bw'ibendera ry'u Rwanda.

Umugore w'umwarimu ari kumwe n'umwana mutoya w'umuhungu w'umunyeshuri, aho uwo muhungu yahawe igihembo nk'umunyeshuri witwaye neza, akaba na we ari kucyakira yishimye.

Inyubako nziza cyane yo ku kigo cy'amashuri cya Karangazi. Hakaba harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho ari n'icyapa cyanditseho ibendera ry'u Rwanda.

Umwarimu wigisha mu mashuri agiye atandukanye akaba ahagaze imbere y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, yambaye akajire baricaye na bo baramukurikiye ari kubagezaho ijambo.

Abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye bakaba bambaye impundakano z'ubururu ndetse bambaye n'utujipo tw'umukara bari kwifotoza bishimye kandi ni beza cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bari mu ishuri, aho bari kwiga isomo ryabo buri wese akaba afite ikaramu, rigaragara ko baritegura ikizami cyenda kuba.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye baba bafite ahantu habugenewe bakorera ubushakashatsi kugira ngo amasomo yabo aze kugerwaho neza cyane ubundi bazatinde uko bikwiriye.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza, baba bafite barumuna babo biga mu mashuri yisumbuye. Aho bagenda babigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo abo bana bamenye ubwenge maze bazatsinde.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bafite za mudasobwa imbere yabo bagiye bazicayeho ndetse bari kwiga amasomo yabo bayakurikirana kugira ngo barebe ko bayatsinda.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, iyo bari gukora ikizami bakunze kuba bari kumwe n'umwarimu, aho umwarimu agenda ababaza ibibazo bigiye bitandukanye hanyuma nabo bagasubiza ku mpapuro zabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bitwaye neza mu bizami bakoze none bakaba bari kubahemba babaha igihembo cy'ishimwe kiri mu mabara y'icyatsi ari kucyakira.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza, iyo bahuriye hamwe bakunda kuba bambaye utujire tw'abakorerabushake, kugira ngo bafashe leta guhangana n'indwara z'ibyorezo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari ahantu mu nyubako, bakaba bambaye utujire ndetse bakaba bari kugenda muri iyo nyubako bameze neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bambaye impuzankano. Bari kugenda mu modoka bicaye inyuma aho babahaye ubufasha kugira ngo babageze iyo bajya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, higanjemo abiga mu mashuri yisumbuye bakaba bambaye utujire.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi, bakaba bari kugenda aho bafite banderori mu ntoki yanditseho kwibuka jenoside yakorewe abatutsi.

Abana b'abanyeshuri biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, bakaba bari kwifotoza bafite udukweto twiza tugezweho ndetse n'udusaha bambaye tuba twarakozwe na bamwe muri bo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari kwiga amasomo yabo agiye atandukanye aho bambaye impuzankano z'ishuri.

Ikigega kiza cyane kiri mu mabara y'umukara aho icyo kigega kiba kifashishwa n'abanyeshuri aho kibika amazi aba aturutse kuri ubu bwiherero, ni byiza cyane ko buri bwiherero bugira ikigega.

Inyubako nziza cyane aho mu marembo hari icyapa cyerekana ko ari ku kigo cy'amashuri yisumbuye cya Kagitumba, bakatwereka ko habura ibirometero bitatu n'ibice bine ngo umuntu ahagere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho inyubako yigirwamo nabanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi cyane bagiye batandukanye kugira ngo babashe gutsinda.

Abana biga mu mashuri agiye atandukanye y'incuke baba ari abahanga cyane aho iyo bamaze gukura bajya mu mashuri yisumbuye bakajya bajya gusengera mu rusengero bambaye impuzankano z'ishuri bakaririmba.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko nk'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bayigiramo kugira ngo bamererwe neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bambaye impuzankando z'ishuri, bahagaze mu kibuga bari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hahagaze umuntu uri kuberekera.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho aba banyeshuri higanjemo abakobwa, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri n'amasogisi y'umweru.

Abantu benshi bagiye batandukanye biganjemo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo n'abambaye utujire, bose bari kumwe kandi barishimye bigaragara ko bari kuganira ku kintu runaka.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, baba bambara impunzankano nziza cyane, ariko bakunze kwigira hamwe kugira ngo babashe kungurana ibitekerezo maze batsinde.

Inyubako nziza aho mo imbere hateraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba harimo abambaye utujire ndetse n'ingofero, bigaragara ko bakora akazi ko gu guhuika amashanyarazi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho kuri iyo nyubako ifite utwuma twiza cyane tw'umutuku ndetse ikaba yubakishije n'amatafari ahiyi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo bigeze mu gihe cyo gukora ikizamini cya Leta, buri wese bamwicaza ukwe, bakagenda bamubaza, harimo n'umwarimu uri kubacunga ngo badapera.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho bambaye impuzankano nziza cyane, bakaba bari gukurikirana amasomo yabo, aho bari hamwe.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho inyubako yigirwarwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye, by'umwihariko abiga mu mashuri yisumbuye bakaba biga ibijyanye n'amashanyarazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakunda kwiga bakoresheje uburyo bwo gufashanya, aho umwe babyumvise ajya imbere ku kibaho akigisha abandi hanyuma nabo bakamutega amatwi.

Ikirango cy'ikigo cy'amashuri, aho icyo kigo ari cyiza cyane kandi kikaba giheherereye mu karere ka Nyagatare, muri icyo kirango harimo abana babiri b'abakobwa bari gusoma mu ikayi.

Inyubako nziza cyane yumutswe mu buryo bugezweho aho ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse hariho n'imyicundo abana bakunda kuriraho umunyenga, biga mu mashuri y'incuke.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Umugore ushinzweye umutekano. Akaba ari ku marembo y'ikigo, aho ari gupima abanyeshuri bose bari kugenda binjiramo ngo arebe ko nta munyeshuri n'umwe wanduye covid cumi n'icyenda.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye bari kwifotoza bambaye impubankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bose bari kwifotoza kandi bishimye bigaragara ko banezerewe.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho abo banyeshuri bari kwishimira umunsi mukuru bariho, imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi ari kubagezaho ijambo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bicaye hamwe bakurikiye umuntu uri kubagezaho ikiganiro kugira ngo bumve impanuro nziza ari kubaha.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bari kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, bambaye impuzankano nziza cyane ziri mu mabara y'icyatsi ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa.

Inyubako nziza zabatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abiga mu mashuri yisumbuye, aho baba bafite utujire bambara kubera ko ari ingenzi.

Igihingwa k'inanasi ni ingirakamaro cyane aho ari zimwe mu mbuto zikunzwe cyane kandi bakunda kwifashisha mu bukwe. Hakaba hari n'imineke ndetse na pome.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi asa n'ivu ku nzugi, ibirahuri byayo rero bikaba bibonerana ariko byijimye umuryango ukaba ufunguye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho kakijyambere, ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za Kaminuza kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo.

Amoko agiye atandukanye y'ibipupe, aho ibiro bipupye byifashishwa n'abanyeshuri, aho biba byarashushanyijwe ku bikuta n'abantu b'abahanga bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro.

Umunyeshuri wiga muri kaminuza akaba ari imbere y'abandi bose bigaragara ko batashye, akaba ari kururuuka amadarajya kugira ngo agere mu rugo aho acumbitse.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho muri iyi nyubako mo imbere hateraniyemo abanyeshuri benshi cyane, higanjemo abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mu mabara ajya gusa icyatsi, bakaba bari kugenda basinya mu bitabo byabo bishimye cyane bose.

Udukoresho tw'udupupe twinshi tugiye dutandukanye, aho ari utubumbano, tukaba turi ahantu mu cyumba giteyemo amarangi y'umuhondo n'umweru ku bikuta.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako y'ishuri, ikaba irimo udutebe twiza tw'ubururu twifashishwa n'abanyeshuri biga muri Kaminuza kugira ngo batsinde.

Igikuta kiyiza cyane giteyeho amarangi agiye atandukanye y'icyatsi, aho kuri icyo gikuta hariho agashushanyo k'umweru keza cyane, karimo udushushanyo dusa umuhondo.

Inyubako nziza cyane ishushanyije ku gikuta ikibumbano kiri mu ibara ry'ivu, iki rero kikaba cyarakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza by'umwihariko abiga imyuga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarangi y'umweru ku bikuta, isakaje n'amabati y'umutuku, ikaba ari inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda, abanyeshuri bigiramo.

Iyo umunyeshuri yize muri Kaminuza y'u Rwanda, akiga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro aba ari inararibonye cyane kubera ko aba azi kubumba utuntu tw'ubugeni tugiye dutandukanye.

Intebe nziza cyane yicarwaho n'abanyeshuri biga muri Kaminuza, ikaba iri ahantu, aho irambitseho akadobo hejuru kari mu mabara asa icyatsi keza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho harimo ikinyabiziga cya moto ndetse hakaba harimo n'imodoka y'umweru iri kugenda muri uwo muhanda, ikaba iri kujya mu merekezo cy'ibumoso.

Inyubako nziza cyane aho mo imbere harimo udutebe twiza cyane dusa ubururu. Utu dudebe tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za Kaminuza, igihe baba bari gukurikirana amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane ifite urugi ruteye irange risa n'ivu, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare kugira ngo babashe gutsinda.

Inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza ahanini ikunze kuba yubatse mu buryo bw'amagorofa, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri kugira ngo bakurikirane amasomo yabo hanyuma bazabashe kuyatsinda.

Abana iyo bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro baba ari abahanga mu gukora ibintu by'ubugeni kandi bikoze neza, barangiza bakabigurisha bakabonamo amafaranga yo kubafasha gukemura utubazo twabo.

Udukoresho tugiye dutandukanye, aho harimo intebe nziza cyane, aho iyi ntebe iri mu mabara y'ubururu. Iruhande rwayo hateretse akadomo keza cyane, kari mu mabara y'umutuku. Kakaba kifashishwa bari kwiga.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko nk'abiga mu mashuri ya za Kaminuza, umuryango urafunguye imbere hari aho abanyeshuri bigira.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho inyubako yigirwarwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za Kaminuza, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta hasi hashashemo amapave meza cyane agiye atandukanye.

Igishushanyo cy'umudugudu, aho hashushanyije umudugudu mwiza urimo inyubako, hari n'ubusitani ndetse n'agahanda kanyura hagati y'ubusitani n'iyo nzu. kakaba karakozwe neza cyane.

Inyubako nziza cyane y'aho baparika ibinyabiziga, hakaba hari amabati meza cyane, aho aya mabati ari mu mabara agiye atandukanye, n'imbuga yaho akaba ishashemo amapave.

Ibibumbano bigiye bitandukanye, aho ibi bibumbano ari ingenzi cyane, kubera ko bikorwa n'abanyeshuri biga muri za Kaminuza kugira ngo babashe kuba batsinda amasomo yabo.

Udukoresho dukuranywe ubugeni tukaba dukorwa n'abanyeshuri biga muri za kaminuza, tukaba ari twiza cyane kandi batwifashisha mu masomo yabo kubera ko baba barabyize.

Umuntu aho ibiganza bye biri kugaragara akaba ari gusubiramo amasomo ye, aho yarambuye igitabo akaba ari gukozamo intoki ngo arebe aho yanditse ibintu bize.

Iyo abanyeshuri basoje amashuri yabo ya kaminuza habaho umuhango wo kwambara amakanzu ndetse n'ingofero, baba bishimye cyane banezerewe ku buryo ubabonye wagira ngo n'abana.

Agatebe k'agatabureti kari mu mabara y'umutuku, kakaba ari karerekare cyane ku buryo umuntu uwo ari we wese atapfa kukicaraho, kakaba kari ahantu mu nyubako nziza cyane.

Abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga mu mashuri yisumbuye baba ari abahanga cyane, aho bakunze gukora ibikoresho by'ibibumbano bikozwe mu ibumba maze bakajya babigurisha.

Inyubako nzizan cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umuhondo ku bikuta, ikaba ifite inzugi nziza cyane zisa icyatsi ndetse imiryango yayo ikaba ifunguye.

Abantu basoje amashuri yabo muri za kaminuza bakaba bambaye ingofero n'amakanzu y'umukara, bakaba bazamuye amaboko bishimye cyane bigaragara ko umunsi wabashimishije.

Ibibumbano bigiye bitandukanye ariko bikoranywe ubugeni, aho biba byarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza hanyuma bakajya baza kubimurika aha ngaha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere harimo udukoresho tugiye dutandukanye tw'udutebe tukaba twicarwaho n'abanyeshuri, aba abanyeshuri rero bakaba ari abiga muri kaminuza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho imbere harimo udutebe twiza tw'ubururu, twicarwaho n'abanyeshuri biga muri Kaminuza cyane cyane abiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo.

Ibikoresho by'ibihumbano byinshi bigiye bitandukanye aho ibi bikoresho ari byiza cyane kubera ko biba byarakozwe n'abana babyize mu mashuri, kandi umuntu akora ibyo yize abikorana ubuhanga.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi y'umweru ku bikuta isakaje amabati y'umutuku, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo umucaca mwiza ndetse harimo n'indabyo nziza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri ya za kaminuza, hakaba harimo n'udutebe twiza bicaraho.

Udutebe twiza cyane kandi tugezweho, tukaba twifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa se amashuri ya za kaminuza, aho tuba turi mu mabara y'ubururu.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bagiye batandukanye, bakaba bicaye bari gukora ibizami. Buri wese afite impapuro ndetse n'igikoresho yifashisha ari gukuba.

Icyapa gishushanyijeho abantu benshi bagiye batandukanye, aho harimo abagore n'abagabo bakaba bari mu myitozo ngororamubiri myinshi cyane igiye itandukanye.

Igikuta cyiza cyane giteye amarangi agiye atandukanye, kikaba kiri ahantu heza cyane, aho icyo gikuta kiriho udushushanyo twigeza duteye ubwuzu.

Ishashi nziza cyane iri mu mabara y'uburu. Ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abarimu iyo bari kwigisha abana bato biga mu mashuri y'incuke.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abiga mu mashuri ya za kaminuza, baba ari abahanga cyane kubera ko bakunda gukurikirana amasomo yabo neza bagatsinda.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza bakaba bayisoje, none habayeho umuhango wo kwambara, bambaye amakanzu meza cyane, bari kugenda bajugunya ingofero hejuru bazitegereza.

Iyo umunyeshuri yize ibijyanye n'ubugeni, aba yaciye ukubiri n'ubukene. Aho ibyo yize abishyira mu bikorwa, agakora utuntu dutatse neza ubundi akajya atugurisha akabona amafaranga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa se aya kaminuza, bakaba bicaye kuri mudasobwabwa aho bari kwandika mu makaye yabo bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho muri iyo nyubako mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba harimo agakoresho gakozwe mu bugeni, gakozwe mu buryo bw'inkangara.

Igishushanyo cy'Umwamikazi w'u Rwanda Rozariya Gicanda, wari umugore w'Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, kikaba gishushanyije ku gikuta ari cyiza cyane.

Utubumbano twiza cyane tw'abana baba barize muri Kaminuza, aho baba baratubumbye bya kinyamwuga ku buryo batugurisha bakabonamo amafaranga kubera ko baba barabyize.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite inzugi ziteye irangi risa n'ivu, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye.

Inyubako iteye amarange y'icyatsi ku rukuta. Aho hariho agatako keza cyane k'umweruru, kaba karakozwe n'abanyeshuri bize gushushanya, kaba karakozwe neza cyane kandi gashimishije.

Udukoresho tw'utubumba tubumbye mu ibumba, aho udukoresho ari twiza cyane kuko dukunze kwifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo barebe ubwiza bwatwo.

Abantu benshi bagiye batandukanye by'umwihariko abanyeshuri biga mu mashuri ya Kaminuza, bari kugenda bigaragara ko bavuye ku ishuri gukurikirana amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ishuri, ifite umuryango mwiza cyane uteye amarangi y'icyatsi, ibirahure bikaba biri mu mabara nayo agiye atandukanye kandi neza.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho inyubako igirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye benshi kandi bagiye batandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko abiga mu mashuri ya za Kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezwehoyo aho ifite urugi ruteye amarangi y'icyatsi hakaba hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka cyatanze amababa ikaba ari inyubako ya kaminuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inzugi ziteye amarangi asa n'ivu zikaba zifite ibirahure bibonerana, zikaba ari inyubako zo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane aho iteye amarangi y'umweru ku rukuta ndetse ikaba ifite udukoresho twiza cyane tw'utwugi abanyeshuri bafungura iyo agiye kwinjira.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho biganjemo abanyeshuri bagiye batandukanye, by'umwihariko abiga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye ku dutebe twiza cyane tubereye ijisho.

Agakoresho k'akavaze karimo imikubuzo, bakunda kwifashisha nk'umutako, kakaba karambitse ku meza, aho kari mu mabara y'umukara ndetse n'umweru.

Ikibaho cyiza cyane kiri mu mabara y'umweru, kikaba kiri ku ifoto ariko amagambo yanditseho acutse ku buryo umuntu atabasha kuyasoma atabanje kugicurukura.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri, hakaba hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'akayira gashashemo amapave kahagana.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa aya Kaminuza, baba bigira ahantu heza cyane, hari ubusitan bwiza, utuyira dushashemo amapave ndetse n'inyubako z'amagorofa.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari nziza cyane, ku buryo umuntu wese wazihinze akazitaho, biba bibereye ijisho kuba wazifotorezamo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako iteye amarangi y'icyatsi ku bikuta ndetse iriho n'agashushanyo keza karimo imirongo igiye itandukanye.

Urusisiro rwubatsemo inyubako nziza cyane kandi igezweho, aho izo nyubako ari nziza cyane ku buryo umuntu wese uyubatse abona ko aba ari umukungu.

Ameza meza cyane arambitseho ikayi, aho iyo kayi irambitse kuri ayo meza ari nziza cyane, ikaba yanditsemo amagambo agiye atandukanye kandi meza.

Iyo muri kaminuza habayeho umuhango unakenera ko abanyeshuri na bo bagiramo uruhare na bo babigiramo uruhare bakambara impuzankano y'uwo munsi hanyuma bakifatanya n'abandi.

Inyubako nziza cyane yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye by'umwihariko hakaba bakundana kuberamo inama, hakaba harimo ababyeyi baje mu nama y'ababyeyi kugira ngo barebe ko imyigire igenda neza.

Abantu bagera kuri batanu, harimo abahungu bane n'umukobwa umwe. Bakaba bafite icyapa mu ntoki. cyanditseho ngo tabara imbabare utanga amaraso. Gutanga amaraso rero ni uguta ubuzima.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, aho abo banyeshuri bari mu kizami. Bakaba bicaye mu dutebe twiza tugezweho, bari gukora ibizami.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba ifite inzugi ziteye amahange asa n'ivu ndetse n'ibirahure bitabonerana, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri ba Kaminuza.

Ahantu heza cyane hari imbuga ishashemo amapave. Iyo mbuga ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri agiye atandukanye, aho hari n'imashini y'abashinwa nziza cyane.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe, aho harimo abarimu b'abagore ndetse n'umwe w'umugabo ufite imashini ya mudasobwa mu ntoki ari kugenda abereka amasomo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ari igishushanyo cyashushanyijwe n'umwana wize ibijyanye n'ubugeni akabyiga muri kaminuza y'u Rwanda, none akaba ari kubishyira mu bikorwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya za kaminuza bakaba bicaye bakurikiye amasomo buri wese imbere ahafite mudasobwa, aho iyi mudasobwa bayifashisha bari kwiga amasomo yabo kugira ngo bamenye ikoranabuhanga.

Ibibumbano bigiye bitandukanye bikoranywe ubuhanga aho biba byarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri nka za kaminuza, bikaba ari byiza cyane birambitse ahantu heza cyane ku buryo iyo umuntu abibonye abyishimira.

Muri Kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko mu ishami rya Nyagatare, haba harimo amoko menshi y'intebe zitangaje z'ubururu, ziba zifite aho abanyeshuri bicara ndetse n'aho bandikira.

Inyubako nziza cyane aho kuri iyo nyubako ku gikuta handitseho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu mabara menshi nayo agiye atandukanye, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri.

Abanyeshuri baba barize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro baba ari abahanga cyane, kubera ko babasha gukora utuntu tugiye dutandukanye bagurisha maze tukabaha amafaranga.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza baba ari abahanga cyane, aho baba bafite udukoresho tugiye dutandukanye bifashisha igihe bari kwiga ndetse ahanini bakunda kwigira mu matsinda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako yigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri abanza ndetse n'abiga mu mashuri y'incuke.

Udukoresho tugiye dutandukanye tubumbye mu buryo bw'ubugeni, tuba twarakozwe n'abanyeshuri bize bijyanye n'imyuga n'ubumenyin ngiro muri za Kaminuza, tukaba ari twiza cyane.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe aho buri wese afite mudasobwa imbere ye, bakaba bari kugenda basuza umwarimu wabo uri kwinjira kugira ngo bumve uko bimeze.

Abantu benshi bagiye batandukanye b'abanyeshuri, bakaba bari ahantu bambaye impuzankano nziza cyane zigiye zitandukanye z'ishuri ariko zidasa.

Abanyeshuri baba barize ibijyanye n'ubugeni baba ari abahanga cyane kubera ko iyo bageze mu mashuri yabo biga gukora utuntu twinshi tugiye dutandukanye twabahesha amafaranga.

Abanyeshuri biganjemo abakobwa n'abahungu by'umwihariko abiga muri Kaminuza y'u Rwanda, bambaye udupira tw'impuzamao aho bigaragara ko bishimiye igikorwa runaka cyabaye kuri uyu munsi.

Udushushanyo dukoranye ubuhanga, tuba twarakozwe n'abanyeshuri biga muri za kaminuza, aho utwo dushushanyo tuba ari twiza kandi ari utw'ingenzi kubera ko dutuma abana batsinda neza.

Umwarimu wicaye imbere ya mudasobwa, afite agakayi imbere ye bigaragara ko yigisha mu mashuri abanza, ariko hano akaba yagiye kwiga muri Kaminuza ari kwiga uko bakoresha ikoranabuhanga.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, aho izi ndabyo ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese wa uzikoreshereje cyangwa uzihinze ziba ari nziza cyane.

Ibishushanyo by'amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto umuntu ashobora kurya bigatuma agira ubuzima bwiza, muri izo moto harimo imineke, amaronji, pome inanasi n'ibindi.

Umugabo we kureba mu cyuyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu buvuzi aho baba basuzuma indwara zigiye zitandukanye zidapfa kuboneshwa ijisho bakifashisha icyuma.

Ni inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho izo nyubako ari ingenzi cyane zikaba zifite ubusitani buteye iruhare rwazo, buteyemo igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

udukoresho uwo tugiye dutandukanye tw'utubumbano aho tumban tuba twarakozwe n'abanyeshuri bagiye batandukanye bize ibijyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro kandi bakaba ari abahanga.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abashoje amasomo yabo muri Kaminuza y'u Rwanda, bakaba bambaye amakanzu bicaye muri sitade banezerewe bigaragara ko uwo munsi wabashimishije.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho muri iyo nyubako mo imbere harimo udushashi dushushanyijeho ibipapuro biri mu mabara y'umweru byometse ku gikuta giteye amarangi y'icyatsi.

Uduterere twiza kandi twinshi tugiye dutandukanye, aho utu dutebe ari ingirakamaro, kubera ko tewicarwaho n'abanyeshuri biga muri Kaminuza igihe baba bari gukurikirana amasomo yabo kugira ngo bayatsinde.

Umugore n'umugabo bari kumwe, bigaragara ko bose barangije kwiga muri Kaminuza, bakaba bambaye amakanzu yabugenewe ahabwa abasoje kwiga kaminuza, bari gusuhuzanya, umwe ahereza undi agakarito keza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe buryo bugezweho ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ikaba ibaditseho icyapa cy'umweru kirimo uturongo twinshi.